Umukobwa uri guseka ari kureba hejuru, ufite imisatsi migufiya, wambaye amadarubindi, mu mutwe, ufite terefone ngendanwa ku gutwi, yambaye agapira k'umweru ndetse n'umukara, afite agakapu ku rutugu, inyuma ye hari gukurura ikindi gikapu kinini kirimo ibara ry'ubururu.

Umukobwa wambaye ipantaro ndetse n'ikote ry'umweru, afite umusatsi ujwagaraye ku mutwe, aryamye ku buriri asa nk'uwegamye, afite terefone ngendanwa ku gutwi.

Umukobwa ugaragaye igice cyigihimba wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi ufite umusatsi mwinshi ufungiye inyuma uri guseka iruhande rwe handitse amagambo yibara y'ubururu.

Umugabo n'umugore bari guseka, umugabo afashe umugore ku rutugu, bagaragara igice k'igihimba, bateruye abana, harimo uwambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, undi afite umusatsi uboshye.

Umugabo n'umugore bari kugenda ku nkombe z'ikiyaga ahantu hari umucanga bafite amagare umugore yambaye ikanzu umagabo yambaye umupira ndetse n'ikabutura.

Umusaza uri guseka udafite umusatsi, ufite ubwanwa buririmo imvi, ahetse akana mugongo gafite imisatsi iboshye ku mutwe, isura yabo izengurukijweho umutima utukura, mu nguni zawo hari akamenyetso k'umusaraba.

Imodoka ntoya isize uruvangitirane rw'amabara harimo umutuku, ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, inyuma yayo hagaragara abantu benshi bahahagaze ndetse n'ibiti.

Inyubako y'igorofa riri mu ibara ryijya gutukura, hari igice kimwe cyayo kiri mu ibara ry'ubururu, kirimo ishusho y'umukobwa wambaye imikenyero, uri kubyina munsi hari imodoka ndetse n'abantu batambuka.

Icyumba gihagazemo abagabo batatu, babiri bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, umwe muri bo yambaye amadarubindi ku maso, undi yambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufiya, afite icupa mu ntoki imbere yabo hari icyapa kiri mu ibara rya oranje cyanditseho amagambo y'ubururu.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe yambaye imyenda y'ubururu, mu imbere yambaye agapira gatukura, yambaye n'ingofero y'ubururu ndetse n'umutuku, yambaye amadarubindi ku maso, ahagararanye n'undi mugabo wambaye imyenda ya kaki, n'agapfukamunwa mu mutwe, imbere yabo hari imbaho.

Inyubako ifite icyapa hejuru kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, ku ruhande hashushanyijeho imodoka ntoya y'umweru iri gucumbamo umwotsi.

Umukobwa ugaragara igice cy'igihimba, wambaye ikote ry'umukara n'ishati mo imbere, ufite umusatsi mukeya ku mutwe, wambaye amadarubindi mu mutwe, ari guseka yatunze urutoki ahantu handitse amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Umugore uteze igitambaro gitukura mu mutwe uri guseka, iruhande rwe hagaragara undi mugabo ufite imvi mu bwanwa, wamusomye ku itama, agaragara igice cy'igihimba.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo kirimo umugore wambaye imyambaro y'igitenge iri mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu inyuma ye hagaragara ibicuruzwa by'amoko atandukanye imbere ye hari ameza arambitseho umunzani ndetse n'indobo.

Abagabo batatu bahagararanye, bafashe ku rufunguzo runini rw'umweru rwanditsemo amagambo y'umutuku, babiri muri bo bafite udukapu dutukura mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka nini yo mu ibara ry'umweru y'ubwikorezi.

Abagabo babiri bambaye imyambaro y'umukara, hagati yabo hari urufunguzo runini buri wese afashe ku mpera, rwanditsemo amagambo yo mu ibara y'umutuku, inyuma yabo hari imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi.

Imbuga ishashemo amabuye, hahagazemo abagabo babiri bafashe ku mpera z'urufunguzo rwanditseho amagambo y'umutuhu umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambate ingofero n'amadarubindi, bahagaze imbere y'imodoka nini y'ubwikorezi.

Abagabo babiri bahagaze buri wese afashe ku mpera z'urufunguzo runini rwanditseho amagambo atukura umwe muri bo yegamye ku modoka afite agakapu gatukura mu ntoki.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya mu kiganza, ibindi biganza byabo bifashe kurufunguzo runini, rwanditseho amagambo y'umutuku, umugabo umwe afite agakapu gatukura, yegamye ku imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi.

Imbuga isashemo amabuye hahagaze abagabo babiri umwe yambaye imyenda y'umukara undi yambaye ishati y'umweru, Kumpande hari imodoka nini cyane z'ubwikorezi zibakikije.

Abagabo babiri bahagararanye bafashe urufunguzo runini rw'umweru rwanditseho amagambo y'umutuku, umwe muri bo afite agakapu gatukura mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ebyiri nini z'umweru z'ubwikorezi.

Abagabo babiri bambaye impuzangano zisa ziri mu ibara ry'umukara bateruranye agasanduku mu ntoki, imbere yabo hari imodoka yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'imibare.

Ameza ateretseho inoti imwe yanditseho ibihumbi bitanu, biri mu ibara ritukura, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hagati hashushanyijemo ibiseke bibiri.

Inoti ebyiri zanditseho igihumbi n'amagambo hejuru, iyo hejuru ishushanyijeho inzu, ku ruhande hagaragara ishusho ntoya y'intore iri kubyina, iyo hasi hariho inyamaswa bita inkende ishushanyijeho.

Abagabo babiri bambaye impuzankano zisa ziri mu ibara ry'umukara bateruranye agasanduku mu ntoki, imbere yabo hari imodoka iri mu ibara ry'ubururu bwijimye yanditseho amagambo ndetse n'imibare.

Abantu babiri bicaye bakikije imeza y'uruziga iteretseho utujerekani tubiri turi mu ibara ry'umweru, ndetse n'igicuba cy'amata utibagiwe n'amasahani, bafite ibikombe by'amata ku munwa, iruhande rwabo hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umweru.

Isahane y'uruziga iri mu ibara y'ubururu iteretseho amasambusa ane agaragara nk'aragiye gushirira imwe imanyuyemo kabiri harimo n'inyama ateretse ku meza.

Ikiganza cyambaye umwenda w'amaboko maremare, urimo ibara ry'mweru gifashe ku gikombe cy'amata, giteretse ku meza y'umweru, hirya hari undi musore washyize igikombe cy'amata ku munwa.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira wo hejuru w'umukara ufite igicuba kinini mu ntoki babikamo amata ari gusuka amata mu kindi cyuma

Umukobwa wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi uri gusuka amata mu bikombe akoresheje akajerekani k'umuhondo, ibikombe biteretse ku masahani ateretse ku meza arambuyeho igitambaro gishushanyijemo imirongo.

Umwana mutoya wambaye agapira karimo udushushanyo, inyuma ye ahagaze umusore uri guseka ufite terefone ngendanwa mu ntoki, hagaragara n'igicuba cy'icyuma babikamo amata.

Ameza arambuyeho igitambaro kigaragara nk'igitenge, ateretseho isahani iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, iriho amandazi atatu, hateretseho n'igikombe cy'amata cyuzuye ndetse n'ikindi gikombe giteretse imbere y'umugore wicaye, wambaye imyenda iri mu bwoko bw'igitenge.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya police, kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, kikaba kigizwe n'ibarangantego bibiri hari icy'u Rwanda n'icya police, ik'icyapa kikaba giteye mu busitani.

Umugore ndetse n'umugabo wambaye ingofero, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza afite amabara menshi ateretseho udusahane dutoya tubiri, ndetse n'igikombe cy'umweru, haruguru hariru umugabo wambaye isengeri inyuma ye hari akabati.

Ikiganza gifite capeti nyinshi mu ntoki zizinze zigaragara nk'izari zigiye gushirira, imbere hari ameza ari mu ibara ry'umweru ndetse n'akabati.

Ameza arambuyeho igitambaro kiri mu bwoko bwigitenge, ateretseho igikombe cyuzuye amata, haruguru yacyo hari isahani, hagaragara n'igice gitoya cy'intebe y'ubururu n'umuntu wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge utagaragara mu isura.

Ameza agaragara nkarambuyeho igitambaro kiririmo ubwoko bw'igitenge, hateretseho igikombe cy'umweru iruhande rwayo hicaye umugore wambaye imyenda yo mu bwoko bw'igitenge ufite imisatsi iboshye ifungiye inyuma.

Ameza ari mu ibara ry'umweru agaragaraho isahani, y'umweru iriho irindazi rijombye mu ifurusheti, ndetse n'akayiko gatoya hagaragara n'ikiganza gifite igikombe kirimo icyo kunywa.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufiya, bahagaze mu ihema riteye mu byatsi, imbere yabo hagaragara ameza ariho ibikarito biri mu mabara atandukanye, imbere yabo hagaragara icyapa kiri mu mabara abiri, ubururu bwijimye ndetse n'umweru.

Umukobwa uri guseka ufite telefone ngendanwa mu ntoki, wambaye agapira k'umukara, ku gapira hejuru mu ijosi hariho amadarubindi, inyuma ye hagaragara umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaguru magufi, wambaye ingofero y'urugara, yambaye amadarubindi ku maso afite telefone ngendanwa mu ntoki.

Abasore babiri bari guseka, umwe yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu mo imbere, undi yambaye furari yubudodo mu ijosi, afite terefone ngendanwa mu ntoki bari kuyirebamo.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyijeho imbonerahamwe ebyiri, zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hari imbonerahamwe ebyiri zihashushanyije zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara hashushanyijeho imbonerahamwe ebyiri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru munguni igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyijeho imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, mu yindi nguni hari igishanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara; munsi hashushanyije imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare; hejuru muguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u rwanda; mu y'indi nguni hari igishushanyo cyerekana, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyeri zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru hari igishushanyo kerekana ikirangantego cy'u Rwanda, muyindi nguni hari igishushanyo kerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara ndetse n'umuhondo hejuru mu nguni hari igishushanyo kerekana ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda munsi hashushanyije imbonerahamwe.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe zirimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru hagaragara igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hagaragara igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Ibiganza bifite amafaranga menshi mu ntoki harimo ayanditseho maganatanu, ayanditseho ijana, ayanditseho mirongo itanu, ayanditseho makumyabiri, ayanditseho icumi ndetse n'ayanditseho atanu mu kindi kiganza hari andi mafaranga ariho ishusho y'umugabo.

Umugore wicaye mu biro , umugore akaba yambaye amataratara, akaba yambaye ikote ry'umukara mu imbere yambariyemo umwambaro w'umweru, imbere yu mugore hakaba hari ameza ateretseho amazi ari mwicupa riri mubwoko bw'inyange.

Umuntu utagaragara igice cy'umutwe, ufite amafaranga mu ntoki ariho isura y'umuntu, yambaye impeta ku rutoki, afite na telefone ngendanwa mu ntoki.

Amafaranga menshi asandaguje harimo ay'inote ndetse n'ay'ibiceri, harimo ibiceri byanditseho icumi bifite ibara risa nka zahabu n'inote zanditseho ijana.

Ibiganza bifite amafaranga mu ntoki, ku rutoki rw'igikumwe uwo muntu ateye ibara rijya gutukura risize igice kimwe afite amafaranga ashushanyijeho umugabo wambaye amadarubindi hari inote yanditseho magana atanu n'iyanditseho igihumbi.

Umugore wambaye umwambaro w'igitenge yambaye isaha ku kuboko ari guseka, afite amafaranga mu ntoki, imbere ye hari ikirahure kimutandukanyije n'undi mugore uri guseka, wambaye igitambaro gitukura mu mutwe.

Ibipapuro bisanyijeho imbonerahamwe hejuru hariho ibishushanyo bifite amabara agiye atandukanye, imbonerahamwe zirimo imibare, hejuru y'ipapuro hariho amafaranga menshi wsandaguje yanditseho ijana hariho n'isura y'umugabo.

Umusore wambaye umupira w'amaboko magufi uciyemo imirongo y'amabara atandukanye, ahagaze iruhande rw'icyapa gishushanyijeho imbonerahamwe, irimo amagambo ndetse n'imibare, hagaragaraho n'amadarapo y'ibihugu, harimo Ubuyapani, Amerika ndetse na Kanada.

Inoti ebyiri imwe iri hasi indi iri hejuru zose zanditseho mirongo itanu, iyo hejuru ishushanyijeho igishushanyo kimeze nk'isura y'umuntu, iyo hasi hariho amazu inyuma y'inzu hateye ibiti.

Umuntu wicaye ku ntebe y'agataburete, wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, utagaragara mu isura, iruhande rwe hari icyapa gishushanyijeho imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare, hirya hari amabendera y'ibihugu.

Icyapa gishushanyijeho imbonerahamwe irimo imibare y'ibice, hariho n'amabendera y'ibihugu harimo Ubushinwa, Amerika, Kanada, Ubwongereza ndetse n'Ubuyapani.

Imbuga igaragaramo intebe ziri mu mabara atandukanye, hari iziri mu ibara rijya gusa nk'ubururu izindi ziri mu ibara rijya gusa nk'icyatsi kibisi, inyuma hagaragara akabati ndetse n'inzu ifite inzugi z'ubururu.

icyapa gitoya cy'umuhondo gikoze mu ishusho y'urukiramende kikaba kiriho uburyo bwifashishwa mukwishyura ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rikoresha telefone

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, hagaragara agace gatoya k'intebe, hari n'igikombe giteyemo ururabo kiri ku ruhande, imbere y'igikuta cy'umweru, hagati harimo ameza yo mu ibara ry'umweru.

Umuhanada munini utwawemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, igikamyo gifite ibara ry'umweru kikaba kikoreye hejuru yaho hakaba hariho n'umuntu, hino gatoya hakaba hariho ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, ikaba iriho n'umumotari ndetse ikaba inikoreye umutwaro.

Igisambu kirimo ibyatsi, kirimo intebe ziri mu mabara atandukanye, zimwe ntoya izindi nini, hagati harimo ameza abajwe mu giti, k'uruhande hari akandi kameza gatoya.

Inzu y'amagorofa abiri yubakishije amatafari ahiye, isakarishije amategura imbere yayo hagaze imodoka ebyiri zitwara abantu ku giti cyabo.

Icyumba gifite imbuga irimo amabara menshi iteretseho intebe nyinshi, zizengurutse ameza ateretseho amacupa, hejuru hagaragara amatara ari kwaka imbere hari insakazamashusho.

Icyumba kirimo intebe z'amabara atandukanye harimo intebe ziri mu ibara ry'umukara n'iziri mu ibara rutukura hagati yazo, hateretse ameza abiri ari mu buryo bw'uruziga ku gikuta kiriho amabara menshi.

Intebe zikikije ameza, iruhande rwazo hari ubusitani, haruguru yazo hagaragara ihema ry'umweru, ku ruhande hagaragara igorofa riri mu ibara ry'umweru, hejuru hari ikirere kiri mu mabara abiri ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako y'igorofa iriho imitako bita imigongo, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara hejuru hagaragara ikirere kiri mu ibara ry'ubururu, imbere y'inyubako hagaragara igiti.

Icyumba gifite ibitambaro birinda urumuri ku madirishya hagaragaramo n'agace gatoya k'intebe, ifite ibara ry'umweru imbere yayo hateye ameza ateretseho igikombe kinini giteretsemo indabo z'amoko atandukanye.

Imbuga irimo intebe zitandukanye harimo intebe z'umukara hagati zifite ameza y'uruziga n'izindi ntebe zigaragara mu ibara rijya gutukura, hagati harimo ameza zitwikirije umutaka w'umweru kuruhande hari izindi ziteye munsi y'igiti.

Icyumba gifite amadirishya y'ibirahure mu imbere hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye harimo imineke, imitobe iri mu bikombe hari ifite ibara ry'umuhondo, ifite ibara ritukura ndetse n'inanasi.

Imbuga iteyemo ubusitani ndetse n'indobo, imbere hagaragara inyubako ziteyemo intebe z'imbaho hari n'inzu y'igorofa iri ibara rijya gutukura.

Imbuga isashemo amabuye kuruhande ufite imirongo y'umweru ndetse n'umukara uzamuye, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo ibiti by'amoko atandukanye, harimo n'igiti kikiri gitoya cy'umukindo imbere yabwo hagaragara inzu nini y'igorofa.

Umukobwa uteze igitambaro mu mutwe uri guseka ugaragara igice cyo hejuru, yambaye ikoteboyi n'agapira k'umukara imbere, inyuma ye hagaragarara imisozi n'igice gitoya cy'imodoka.

Inyubako ifite icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo yo mu ibara ritukura ubururu ndetse n'umweru, imbere y'iyi nyubako hagaze abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyerero iri mu mabara atatu: ubururu, umweru, ndetse n'umutuku.

Umukobwa uri guseka, wambaye igitambaro mu mutwe, n'umupira uri mu ibara rigaragara nk'ivu, agaragara igice cy'igihimba, iruhande rwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, n'ayanditse mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara rijyagusa nk'ubururu uri guseka ufite umusatsi ndetse n'ubwanwa, afite urupapuro mu ntoki yicaye imbere y'ameza ateretseho mudasobwa.

Umugore wicaye mu biro , umugore akaba yambaye amataratara, akaba yambaye ikote ry'umukara mu imbere yambariyemo umwambaro w'umweru, imbere yu mugore hakaba hari ameza ateretseho amazi ari mwicupa riri mubwoko bw'inyange.

Agasanduku gateretse mu mbuga y'igitaka kazengurutswe n'abantu benshi, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, abenshi muri bo bambaye ibitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari inzu ntoya isakaje ibati n'indi nzu ya nyakatsi, hagaragara n'ibiti.

Umukobwa uri guseka uhagaze asa nk'aho ari kureba inyuma, wambaye ishati y'amaboko maremare, afite imisatsi myinshi ifungiye hejuru, imbere ye hagaragara inzu.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Umugabo ndetse n'umugore bambaye amakoti mo imbere bambayemo amashati y'umweru, umugore ntari guseka naho umugabo ari guseka, iruhande rwabo handitse amagambo.

Imboga z'amoko atandukanye harimo; inyanya, isenda, amashu ndetse n'ibitunguru biri ahantu hagaragara nko mu isoko, hicayemo n'abantu abandi bari gutambuka bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Inyubako igaragara nk'ubucuruzi irimo abantu batandukanye harimo n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibitenge, imipira imikeka, ibiseke.

Imbuga irimo uruyurane rw'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagaragaramo abagore babiri bahetse abana. Umwe ateze igitambaro cymweru umutwe iruhande rwe hahagaze umusore ufite inkoko mu ntoki, hasi hateretse ibitebo birimo inyanya.

Imbuga iteretseho ibikoresho bigiye bitandukanye isashemo amabuye hariho ibikoresho nk'ingoma, inkoko ndetse n'ibisabo hagaragara n'agace gatoya k'umutaka uri mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye hicayemo abagore babiri bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'ibitenge hagaragara imyenda y'amoko atandukanye imanitse hejuru ku ruhande hagaragara udukapu tuboshye.

Ahantu hagaragara nko mu isoko, harimo abantu batandukanye hari ibyo kurya biteretse ku meza harimo: intoki, karoti ndetse n'inyanya.

Abagore bicaye bambaye imyambaro yo mu bwoko bwibitenge bose bateze ibitambaro mu mutwe hagati yabo hari ibase irimo intoryi inyuma hagaragara ibintu byimifuka biharunze.

Umugore uteze igitambaro cyo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru mu mutwe, wicaye akikijwe n'ibyo kurya, harimo inyanya, ibihaza, ndetse n'imyembe.

Icyumba kigaragara nk'isoko kirimo abantu bicaye, harimo umugore uteze igitambaro mu mutwe, bakikijwe n'ibyo kurya, harimo amashaza, inyanya intoryi ndetse n'ibitonore.

Umugabo wambaye umupira urimo amabara menshi yiganjemo ibitukura, wambaye ipantaro y’umukara n'inkweto zirimo ibara ritukura, afite umufuniko w'indobo mu kwaha, imbere ye hateretse indobo ibonerana irimo ibiraha, imbere ye hari abandi bantu.

Umugore usutamye ufite imisatsi iboshye, asutamye imbere y'imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, harimo: avoka, amacunga, imineke, hari n'imboga zirimo inyanya.

Mu Rwanda dukomeje kuza ku isonga bitewe n'uburyo twubatse. Ni joro ushobora kuhasohokera n'abawe bitewe n'amatara ushobora gusanga bayakije ushobora kugirango n'iburayi, aho ngaho nti twasiba kuvuga ko aho hantu haba hasa neza kuburyo wahanywera icyo kunywa cyawe ndetse n'umuryango wawe ndetse n'abawe.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, wambaye isaha ku kuboko n'ingofero y'ubururu. Imbere ye hahagaze undi musore wambaye umupira w'umukara, wambaye ingofero mu mutwe, afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Ahantu hahagaze abantu benshi hari ihema ryo mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru hagaragara n'umugabo ufite ikaye y'ubururu mu ntoki wambaye ishati iruhande rwe hagaragarara undi wikoze mu mutwe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi, imbere ye hahagaze igare rifite amabara abiri umuhondo ndetse n'umukara, imbere ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ufite telefone ngendanwa mu ntoki asa nk'uri kuyimuhereza.

Akazu gatoya karimo ibara ry'umuhondo handitsemo amagambo y'umukara gakinguye amadirishya abiri kazengurutswe n'abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, harimo abambaye umweru ndetse n'umutuku.

Icyumba kirimo itara riri kwaka hejuru, gifite ibikuta by'umuhondo, ku ruhande hari icyapa kiriho umuntu ufite umusatsi w'imvi, ufite akana mu mugongo kari guseka.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya, uri mu ibara ry'umuhondo, ufitemo n'utubara dukeya tw'ubururu, hananditsemo n'amagambo yo mu ibara ry'ubururu, ahagaze imbere y'imodoka y'umukara irimo umuntu.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'ubururu mu mutwe, afite imisatsi iboshye, imbere ye hahagaze umugore munini ufite imisatsi iboshye yayifungiye inyuma, afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, wicaye ku ntebe y'ubururu bwijimye burimo utudomo, imbere ye hari ameza ateretseho icupa, akikijwe n'abandi bantu, hejuru hari ihema y'umuhondo.

Akazu k'umuhondo kanditseho amagambo, gafunguye idirishya ryicayemo umuntu, imbere y'idirishya hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Abagabo babiri bahagararanye harimo uwambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, yambaye n'ingofero y'umuhondo ndetse n'ubururu, imbere umupira we handitse amagambo y'ubururu. Afite telefone ngendanwa mu ntoki, ahagararanye n'undi wambaye ikote ry'umukara ufite telefone ntoya ngendanwa mu ntoki, inyuma yabo hahagaze imodoka.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'umuhondo, hejuru hamanitseho icyapa kiriho ishusho y'umukobwa, imbere gateretseho ikarito.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umweru, yambaye agapfukamunwa mu maso, ahagaze imbere y'ipikipiki iteretseho agasanduku k'umutuku, kanditseho amagambo y'umweru ndetse n'imibare, afite anverope ya kacye yateretse hejuru.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo ipikipiki yicayeho umuntu, wambaye umupira wicyatsi kibisi w'amaboko magufiya, inyuma, ahicara umugenzi hateretse agasanduku k'icyatsi kibisi kandiditseho amagambo yumweru.

Amapikipiki ane ateretseho udusanduku tune mu mwanya w'aho batwara abagenzi turi mu ibara rijya gusa nk'umutuku twanditsemo amagambo y'umweru, imbere hicayeho abayobozi b'ibinyabiziga, imbere hagaragara inyubako iteyemo igiti cy'umukindo.

Amapikipiki menshi ahagaze hamwe yicayeho abayobozi bayo, bambaye imyenda iri mu ibara ritukura, inyuma mu mugongo yanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru.

Umukobwa ugaragara nkuwicaye ku buriri wambaye umupira w'amaboko maremare, afite terefone ngendanwa mu ntoki iri mu ibara ryumukara. Afite umusatsi muremure w'umukara, imbere ye hateretse agakapu karimo ibara ry'mukara.

Abagabo babiri, harimo uw'umuzungu wambaye amadarubindi y'umutuku n'undi w'umwirabura wambaye amadarubindi y'umukara ufite imisatsi iboshye, bafite ingofero zambarwa n'abantu batwaye ipikipiki ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, zanditseho amagambo y'umweru.

Umusore wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi, yambaye ingofero bambara bagiye kuri moto y'ubwirinzi irimo ibara ry'ubururu, imbere ye hari agasanduku gafungunduye kari mu ibara ry'ubururu afite agakarito k'umweru ashaka gushyira muri ako gasanduku.

Imbuga isashemo amabuye imbere hagaragara amazu y'amagorofa asakarishijwe amabati yo mu mabara atandukanye, inzu yo hagati imanitseho icyuma gishyushya amazi ndetse n'ikikurura imirasire y'izuba hejuru ku mabati.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Icyumba kirimo abantu babiri umuhungu ndetse n'umukobwa, umukobwa ni umwirabura umuhungu akaba ari umuzungu, imbere yabo hari intebe ziri mu ibara ry'umweru, ku gikuta hamanitse isakazamashusho.

Umuhanda w'ibutaka ufatanye n'uruzitiro rw'umukara mu imbere hagaragaramo inyubako, hejuru hagaragarara ikirere kiri mu mabara abiri ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, kirimo intebe ziri mu ibara ry'umweru, hari n'igikuta cy'umweru, hajuru hari itara riri kwaka, hari n'ameza yo mu ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bahagaze hejuru bari kureba imisozi umwe n'umuzungu yambaye ishati y'umweru yahiniye mu nkokora undi ni umwirabura yambaye ishati y'umukara yahiniye mu nkokora ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Inyubako iteye inkingi z'umweru imbere hari imbuga isashwemo amabuye iigaragara nk'aho itose, iyo nyubako izengurutse n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kigaragara nk'icy'uruganiriro gifite ibikuta by'umweru, mu nguni hari itara riri kwaka, ku gikuta hamanitseho insakazamashusho, hagaragara n'intebe zifite amabara agiye atandukanye.

Icyumba kigaragara nk'icy'ubucuruzi harimo akabati gapanzemo ibicuruzwa biri mu macupa atandukanye, harimo ay'ibirahuri ndetse n'aya purasitike, harimo n'imitobe iri mu mabara atandukanye, harimo umuhondo ndetse n'andi mabara.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku afite umusatsi muremure yambaye ipantaro y'umukara ninkweto zirimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku ari gutera intambwe imbere ye hari inyubako ikinguye hejuru ifite icyapa cyicyatsi kibisi cyanditsemo amagambo y'umweru.

Abagore bicaye inyuma yabo hahagaze abandi bantu batagaragara amasura bambaye imyambaro yiganje mu bwoko bw'ibitenge, bafite udupapuro turiho amafoto mu ntoki babiri muri bo imbere yabo hahagaze abana bato.

Abantu benshi bahagaze bareba imbere yabo, inzu yubakishije amabati y'amabara y'ubururu ndetse n'amatafari ahiye, inyuma yabo hari ibyapa bibiri biri mu ibara ry'umweru byanditsemo amagambo.

Umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru mo imbere, ufite indangururamajwi, inyuma ye hagaragara icyapa cy'ubururu cyanditsemo amagambo y'umweru, imbere ye hicaye abantu.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi ufite umusatsi uboshye ufungiye inyuma, afite igikarito mu ntoki imbere ye hahagaze umugore ufite imisatsi migufi ya w'inzobe.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko mugufi ya wambaye ipantaro y'umukara ufitiye terefone ngendanwa mu ntoki, babuze ahantu hagaragara nkaho bahahir imbere yabo hari abantu ndetse n'ibicuruzwa.

Icyumba kigaragara nk'icyo bahahiramo, harimo umugabo wambaye ipantaro n'ikote bisa, yambaye ingofero mu mutwe afite indangururamajwi mu ntoki yayegereje umunwa, imbere ye hari abantu bari guhaha n'utubati turimo ibyo bari guhaha.

Akabati gafunze gafite ikirahure kibonerana gatondetsemo ibyo kunywa byo mu moko atandukanye, harimo ibifunze mu makarito ntetse no macupa biri mu bwoko bw'imtobe n'amata n'amazi.

Icyumba kirimo imbuto ziri mu moko menshi agiye atandukanye ,zirunze mu bikarito harimo :indimu, ivoka ,inanasi, ibinyomoro ndetse n'amacunga hari n'ibikarito birimo inyanya.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufiya, yambaye ibitare ku kuboko, yatunze urutoki mu mashini imuri imbere, ahagararanye n'undi musore ufite terefone ngendanwa mu ntoki.